Bamwe mu bakozi bakora imirimo yo gutanga amayite, kubikuza ndetse no kubitsa, bavuga y'uko abakecuru batarasobanukirwa uburyo bwo gukoresha ikoranabuhanga.

Ikoranabuhanga ni kimwe mu bimaze gutera imbere mu Gihugu cy'u Rwanda, aho ubu umuntu yohereza amafaranga, akayakira ndetse agahaha ibintu bigiye bitandukanye akoresheje telefone agendana.

Amabanki ndetse n'amakoperative ni bimwe mu bigo bikorana bya hafi, amakoperative yaka inguzanyo mu mabanki kugira ngo yiteze imbere ndetse yamara kugera ku iterambere akabitsa mu mabanki.

Ikinyabiziga gipakiye umusaruro wa koperative y'ubuhinzi, giparitse ku muhanda, abakozi barapakurura umusaruro, wejejwe n'iyi koperative.

Inzu zicururizwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, zigomba kugira ibikoresho bitandukanye, harimo ibikoresho bikonjesha, intebe zo kwicaraho ndetse n'ibitanda byo kuryamishaho bamwe mu basinze bikomeye cyane.

Abacuruzi bacuruza ibiribwa bitandukanye ndetse n'ibinyobwa, ni bamwe mu bagira inyungu zihuse kuko ibi bikoreshwa n'abaturage buri munsi, bigafasha umucuruzi gutera imbere byihuse.

Amahoteli arashishikarizwa kujya agira isuku, akagira aho ibinyabiziga bihagarara mu rwego rwo kwirinda akajagari ndetse n'umutekano mukeya ushobora gutezwa n'ibinyabiziga byinshi ndetse n'abayagenderera.

Mu masoko yo mu nkengero z'imijyi dusangamo ibicuruzwa bitandukanye, bimwe na bimwe bicururizwa no mu mujyi. Ibi twavugamo: imyenda y'abana iy'abagabo ndetse n'abagore.

Abakora ubucuruzi bw'imbuto zitandukanye, harimo inyanya, ibitunguru, pavuro, seleri ndetse n'ibindi, ni bamwe mu biteje imbere mu buryo bworoheje kuko ibi bicuruzwa byabo byifashishwa n'abaturage mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abakora akazi ko gutwara abantu mu buryo rusange ku mapikipiki basabwa kwitwararika mu gihe batwaye abagenzi, aha ni nko kubambika kasike, kubahiriza amategeko y'umuhanda ndetse birinda no kurangara.

Mu rwego rwo gusigasira ibidukikije, ikirere ndetse n'ibindi, Leta y'u Rwanda irashishikariza abatwara ibinyabiziga, by'umwihariko ku mapikipiki ko bagakwiye kujya bakoresha amapikipiki akoresha uburyo bw'amashanyarazi ndetse n'izindi ngufu zituruka ku zuba.